Mu buryo bwo kubungabunga ibihingwa bihingwa mu Karere ka Musanze turwanya ibyonnyi n'izindi ndwara byagera ku bihingwa byacu imiti itandukanye, iracuruzwa ikaboneka maze umuhinzi akayigura bityo akayitera igihingwa cye.

Bimwe mu byongera umusaruro w'ubuhinzi, harimo gufumbira, ifumbire y'imborera. Ifumbire y'imborera iba itwarwa n'umuhinzi, akayivana aho yayirunze akayishyira mu murima, bityo agatera imbuto harimo ifumbire y'imborera.

No mu karere ka Musanze habamo abavuzi gakondo. Aho iyo ugiye kwivuza umu bavuzi gakondo imiti ntibakunze gukoresha, iba ari imiti y'ibiti bumishije, bakabisya, bakaguha ifu yabyo. Umuti batanga w'ibimera uba warasewe umeze nk'ifu.

Mu buhinzi habamo gukenera imiti yica udukoko, imiti yica udukoko igurwa mu ma farumasi y'ubuhinzi. Mu mafarumasi y'ubuhinzi usangamo iyo miti maze ukagura umuti , bakakubwira uko ukoreshwa mu myaka yawe.

Burya indabo z'ibiti kugira zikomeze kumera neza zirabungabungwa, aho hifashishwa ipombo ntoya ugashyiramo umuti, ukajya utera mu rurabo rw'igiti kugira ruhore ari rwiza ndetse rutangirizwa n'udukoko dutandukanye, kubungabunga ibimera n'inshingano zacu.

Mu buhinzi bugezweho bwo guhinga imboga. Umuhinzi w'imboga akurikirana ibihingwa bye ndetse agatera n'umuti wica udukoko twaza kwangiriza imboga. Uwo muti atera muri izo mboga, yifashisha ipombo.

Mu Karere ka Musanze ubuhinzi burakataje. Aha twavuga ubuhinzi bw'umuceri, na bwo bwageze mu karere ka Musanze, cyane cyane mu kibaya cya Mukungwa, n'umugezi wa Mukungwa uherereye ahitwa mu Gatsata uzamuka. Ahangaha umuceri na wo uterwa ifumbire y'amababi, dukoresheje ipombo.

Imitegurire y'ibiryo by'amafi ni imitegurire iteye imbere aho iyo bagutaha ifi yateguwe neza usanga irimo imbuto irimo inyanya n'imboga n'ibindi birungo ugasanga ari ibiryo bibereye ijisho.

Amafi ni ibinyabuzima biba mu mazi, amafi avamo inyama zifite intungamubiri nyinshi ku bantu, inyama z'amafi ziraryoha inyama z'amafi zitanga amafaranga, inyama z'amafi zikorwamo ubucuruzi.

Burya n'amafi agira roti, mu karere ka Musanze ubucuruzi bw'inyama z'amafi zivamo roti burahari, aho amafi manini havanwaho amaroti, akagurishwa.

Ubucuruzi bw'ibiribwa, cyane cyane ibiribwa bituruka ku matungo aribyo twita inyama, hari n'ibiribwa bituruka ku matunga ava mu nyanja aribyo twita amafi, amafi arakunzwe cyane mu karere Ka Musanze.

Ifi iri mu bwoko bw'inyama bukungahaye cyane kuri vitamine, ifi iboneka mu biyaga no mu migezi cyane cyane bigaragara mu Majyaruguru mu mugezi wa mukungwa wasangamo ifi ndetse no mu biyaga bya Burera na Ruhondo.

Isambaza n'umutungo uboneka mu ntara y'Amajyaruguru. Aho mu kiyaga cya Burera na Ruhondo ziba zirimo, isambaza zirwanya imirire imibi kubana. Isambaza zitanga amafaranga ku barobyi.

Amafi ari mu bwoko bw'inyama, amafi ni inyama zikundwa cyane kandi zinahenda cyane, ugereranyije n'inyama zisanzwe, inyama z'amafi usanga zifite intungamubiri ziri mu rwego rwo hejuru, amafi ino aha aboneka mu kiyaga cya Ruhondo na Burera ndetse n'umugezi wa Mukungwa.

Uburobyi bw'amafi mu kiyaga cya Burera na Ruhondo, mu ntara y'Amajyaruguru, ni ho haboneka amafi abarobyi barayaroba, bakayaha abaturage bayakeneye ku giciro cyiza, bityo bikarwanya imirire mibi mu baturage.

Bimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu Karere ka Musanze harimo n'ibiyaga ndetse n'imigezi. Mu buryo kugenda mu biyaga n'imigezi hifashishwa ubwato. Ubwato ni bumwe mu buryo bwiza butwara abagenzi hejuru y'amazi.

Piza ni ubwoko bw'ibiryo bitekwa hifashishijwe umukati imboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Piza itekwa nk'umukati mu ifuru. Piza iraryoha ikaryohera uyirya ndetse ikaryohera ikanahumura ndetse ikabikwa igihe gihagije.

Amafi ni ikiriribwa kiryoha cyane. Amafi akungahaye ku ntungamubiri umubiri w'umuntu ukenera. Amafi inaha mu Majyaruguru tuyabona mu biyaga bya Ruhondo ndetse na Burera. No mu mugezi wa mukundwa amafi abamo.

Pepiniyeri ni ahantu binaziriza ingemwe z'ibiti z'ubwoko bwose, aho izogemwe z'ibiti zinazwa mu bihoho. Uburyo bwo kubungabunga ibidukikije ibihoho bikozwe mu birere birafasha mu buryo bwo kwirinda ikwirakwizwa n'ikoreshwa ry'amasashi.

Abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya igihuru n'ishyamba, ishyamba ni uruhurirane rw'ibiti birebire bikomeye, kandi bizamutse, bifite ubutumburuke, naho igihuru ni uruhurirane rw'ibyatsi biba bifatanye kandi bikiriri bigufi.

Ubuhinzi bw'amashaza na bwo burakataje mu Ntara y'Amajyaruguru. Amashaza ari mu bwoko bw'ibinyamisogwe. Amashaza arashingirirwa akanaranda. Arera akanaryoha, agatanga umusaruro, agatanga amafaranga. Mbese amashaza mu majyaruguru na yo arahera.

Iyo tuvuze ikigorigori ni igisambu cyangwa se ni umurima uvuyemo ibigori . Iyo ibigori byatemwe, biruzwa ,ibyo bipimirwa mu murima ibyo byatemwe nibyo bita ibigorigori

Inaha muri Musanze cyane cyane mu turere twegereye ishyamba, ubuhinzi bw' ibirayi nibwo buhinzi butunze abahinzi n'abaturage muri rusange. Iyo uvuze Musanze, biramenyewe guhita wumva ko ari mu birayi. Musanze duhinga ibirayi.

Nk'uko tubimenyereye ino aha mu majyaruguru, iyo ihinga rimwe rishize irindi riba rije. Aha twavuga ahantu hahinzwe ibigori, iyo bimaze gusarurwa, umuhinzi asubiramo agahinga imitabo, maze agatabiramo ibishyimbo, ndetse n'ibindi bihingwa yifuza gusimbuza.

Ubuhinzi bwo mu ntara y'Amajyaruguru, cyane cyane ubuhinzi bwegereye mu birunga, ni ubuhinzi ubona buri ahantu hashashe. ariko aho hantu hashashe, hakorwamo amaterasi y'indinganire, ku buryo hatanga umusaruro.

Ubuhinzi bukorwa ahantu h'ikibaya, ni ubuhinzi bukorwa abantu bahinga imitabo. Iyo bahinga imitabo ni byo byorohera umuhinzi, cyane cyane ahantu h'ikibaya. Ubuhinzi bwose mu kibaya, ubwinshi bukorwa hakorwa imitabo.

Ubuhinzi bw'imboga ntitwakwibagirwa kuvuga ubuhinzi bwa karoti. Karoti ni zimwe mu mboga zihingwa kandi zikera cyane mu Karere ka Musanze. Karoti zihinzwe zera vuba, karoti kandi ni kimwe mu gihingwa kidakenera ifumbire mvaruganda.

Igiti cy'inturusu ya rweru dukunze kwita igiti cya mwotsi ni igiti gitanga amakara, inkwi zo gucana ndetse n'ibiti byo kubaka. Amababi yacyo yifashishwa mu kuvura cyane cyane inkorora na za gilipe.

Imyubakire y'iki gihe iratangaje cyane, aho kera urugo warubwirwaga n'uruzitiro rugizwe n'ibiti, ariko uyu munsi urugo rw'iki gihe urubwirwa n'urupangu, aho hose usanga hubatse, ugasanga imyubakire y'iki gihe itandukanye cyane n'iya kera pe!

Bimwe mu biranga ahantu bari kubaka inzu, nuko usanga harunze ibikoresho byo kuzamura inzu, muri ibyo bikoresho twavuga igaraviye. Igaraviye ni amabuye aba amennye ariko avangwa na sima, maze bakubaka.

Iyo tuvuze igisambu ino aha mu karere ka Musanze tuba tuvuze umurima uvuyemo imyaka, umurima udahingwa. Iyo hose tuhita mu gisambu kuko imyaka iba yaravuyemo, ubundi ari aho gushakira ubwatsi bwo kwahirira amatungo.

Marakuja ni imwe mu mbuto zo mu bwoko bw'amatunda. Marakuja igira umutobe uryohereye cyane, abana n'abakuru barayikunda. Marakuja yera iranda mu biti, mbese igatanga umusaruro.

Ubusitani ni ahantu heza hashimishije. Hatanga umwuka mwiza, abantu bagera bakaruhuka. Bagahumeka umwuka mwiza bareba n'ibiti byiza bibakikije.

Mu buryo abanyacyaro bifashisha ngo banywe igikoma gifite intungamubiri, bakora imvange y'amasaka y'amakoma ndetse n'impugure z'ibigori. maze bakabetesha bivanze, aho icyo gikoba kiba kiryoshye, n'ubwo utashyiramo isukari, kiba kiryoshye.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu ni ubuhinzi burwanya inzara, amashu yera vuba kuko mu gihe cy'amezi atatu gusa, umuhinzi agemetse ishu riba ryamaze kwera riri gutanga umusaruro, aho rivamo ibiribwa barya ndetse n'ibiribwa by'amatungo, cyane cyane inkwavu.

Ubuhinzi bw'imboga ntitwabura kuvuga ubuhinzi bw'urusenda. Urusenda ino aha mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze nta bwo ruhingwa cyane. Abahinzi ntibarasobanukirwa uburyo bwo guhinga urusenda. Ariko ababisobanukiwe, uru rusenda rutanga amafaranga mu gihe cya vuba.

Mu karere Ka Musanze habamo ubuhinzi bw'ibirayi, kuko ibirayi byera mu karere Ka Musanze ni nako bijya mu masoka atandukanye, iyo ugeze aho bigurishwa usanga biteretse mu mifuka buri muntu akazana akantu, aguraho bike bike paka byose bishize , ubucuruzi bw'ibirayi muri Musanze buteye...

Ubuhinzi bw'imyumba mu ntara y'Amajyaruguru, na ho burahari. Imyumbati ihinzwe neza, ikitabwaho, yerera umwaka n'igice kugera ku myaka ibiri, ariko itanga umusaruro.

Bumwe mu bwoko bw'imbuto bubonekana inaha mu Karere ka Musanze, harimo ubwoko bita amacunga. Amacunga cyangwa orenje mu ndimi z'amahanga, ni imbuto ziryoha kandi ziboneka mu Karere ka Musanze.

Bimwe mu biranga ubuhinzi bw'ibirayi, iyo wahinze igihingwa cy'ibirayi kigeraho kikayanga bishatse kuvugako iyo ugeze mu murima wawe ugasanga ibirayi byayanze, uba utangiye kumwenyura kuko uba uzi neza ko umusaruro uri hafi.

Mu buhinzi bw'imbuto cyane cyane zera ino aha mu karere ka Musanze, mu Ntara y'Amajyaruguru, hari ubuhinzi bw'amapapayi, amapapayi cyane cyane amapayi manini, ni ubuhinzi bugaragara kandi abantu batajya bitaho, kuko amapapayi mu karere ka Musanze arahenze cyane.

Iyo tuvuze ubuhinzi, ntitwabura kuvuga ku buhinzi bw'ibisheke. Ibisheke ni ibihingwa bivamo isukari. Ibisheke inaha mu Ntara y'Amajyaruguru birahingwa. Ibisheke bihingwa cyane ni ibiribwa bikiri bibisi.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa biboneka cyane mu ntara y'Amajyaruguru bigatanga umusaruro vuba. Irayi byera vuba kuko mu gihe cy'amezi atatu gusa, ibirayi biba byatangiyekwera biteye. Gusa ni inshuti y'abaturage mu kurwanya inzara.

Mu biti byera imbuto ziribwa ntitwakwibagirwa igiti cy'umwembe, umwembe inaha mu majyaruguru urahera. Umwembe wera imbuto zikundwa n'abantu bose cyane cyane abana barazikunda cyane.

Mu bicuruzwa dusanga mu karere ka Musanze, tubonamo imbuto zitandukanye. Izo, hari izera mu Rwanda, izituruka hanze, izo zose ziraza, zigahurizwa hamwe mu karere ka Musanze, cyane cyane mu isoko rya Kariyeri.

Iyo myaka imaze kumera ikayigera hejuru ,hakurikiraho kuyibagara, ababagara bitwaza udusuka dutoya dukunze kwita nyirabunyagu, abandi bakatwita udufuni, utwo dusuka ni two abahinzi bifashisha bamenerera imyaka.

Ibijumba ni ibiryo bitera imbaraga, ibijumba ni bimwe mu bihingwa byera mu Ntara y'Amajyaruguru, cyane cyane mu Karere ka Gakenke, Akarere ka Musanze kegereye Gakenke. Ibijumba bya tura bigira ibara ritukura.

Bumwe mu buryo bwo kurwanya isuri harimo gukora amaterasi y'indinganire. Amaterasi y'indinganire, iyo akozwe agacugwa neza, agahingwamo neza ,atuma ifumbire idatemba . Bityo bikazamura umusaruro w'umuhinzi.

Avoka ni imbuto iryoha cyane, avoka ni imbuto ihingwa cyane mu ntara y'amajyaruguru. Mu ntara y'amajyaruguru ibice byinshi byeramo voka kandi avoka ikungahaye ku ntungamubiri, umuntu wariye avoka yumva amerewe neza cyane mu mubiri we.

Bimwe mu bigaragaza imbuto yizewe yo guhinga, ni imbuto iba ihungiye, iteye umuti, ku buryo iyo mbuto iba yifitemo ubushobozi bwo guhangana n'ibyonnyi, ikigera mu murima.

Icyayi cy'u Rwanda ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu. Icyayi cy'u Rwanda iyo cyitaweho, kigakorerwa isuku, kigasarurirwa igihe, icyayi cy'u Rwanda kizana amadovize, maze umuhinzi w'icyayi akiteza imbere.

Burya ibitoki bitanga umusaruro. Ahangaha twavuga umusaruro w'insina yitwa kamara. Bayise kamaramasente mu rurimi rw'Ikiganda mu bishatse kuvuga kamaramafaranga, kubera ubu bwoko bw'ibi bitoki, buraryoha cyane.

Mu isoko ry'ibiribwa cyane cyane bigaragara hano mu karere ka Musanze, usangamo imboga. Imboga burya zigira amoko atanukanye. Imiteja, karotiri, intoryi, inyanya, puwavuro, byose burya biba mu bwoko bw'imboga.

Bumwe mu buhinzi bw'imbuto twavuga ubuhinzi bw'imbuto z'amatunda. Amatunda arahingwa, agahingwa ahantu yurira. Ashobora kurira mu giti, mu bihuru, bityo akereramo umuhinzi akajyamo asarura ayeze.

Mu buryo bw'ubworozi bwo mu biraro, hateguwe kugaburira amatungo mu biraro, aha ngaha inganda zikora ibiryo by'amatungo zatejwe imbere, nuko mu karere ka Musanze ubucuruzi bw'ibiryo by'amatungo bura....

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu ni ubuhinzi bwera vuba. Imboga z'amashyu, zerera igihe kigufi. Bityo iyo umuhinzi azisaruye aba yishimira umusaruro we, kuko aba abona umusaruro uje mu gihe kigufi.

Bumwe mu buhinzi bugezweho bw'ibitoki biribwa imineke, harimo ubuhinzi bw'insina dukunze kwita fiya. Insina ya fiya ni insina yera imineke ikera igitoki kinini cyane kirekire, ku buryo umusaruro wikuba inshuro eshatu, ugereranyije n'insina zisanzwe.

Ubuhinzi bw'imboga ni ubuhinzi butakwirengagizwa, cyane cyane mu Ntara y'Amajyaruguru, kuko ubuhinzi bw'imboga z'amashu butanga umusaruro. Amashu yera vuba, ndetse amashu arakunzwe.

Mu buhinzi bw'imbuto tubonamo igiti cyitwa igifenesi, iki giti gifite inkomoko mu gihugu duturanye cya Uganda. Ni igiti gitanga imbuto ziryoshye ziryohereye kandi zifite intungamubiri.

Ubuhinzi bw'icyayi na bwo buri mu buhinzi ngengabukungu. Icyayi gifashwe neza kigasarurwa ku gihe kigakorerwa isuku mu isarura, gitanga amadovize, maze umuhinzi w'icyayi akabona amafaranga.

Mu buhinzi abantu bakora harimo n'ubuhinzi bw'imboga. Imboga cyane cyane rwatsi. Imboga rwatsi ni ingirakamaro, cyane cyane ku mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu mu buryo bwo kubungabunga imboga rwatsi, bisaba kuzitaho, tuzibagarira, tuzivanaho ibyonnyi kugira ngo tubone imboga nziza.

Mu buhinzi bw'imbuto cyane cyane imbuto zigaragara mu kace k'Amajyaruguru, hariho ubuhinzi bw'imbuto z'inkeri. Imbuto z'inkeri zihingwa mu murima, zigasasirwa, zitanga umusaruro, kuko zirakunzwe, kuko zivamo umutobe mwiza.

Muri Musanze ubuhinzi bw'ibigori burakataje kandi bwateye imbere kuko mu karere ka Musanze aho wanyura hose ubona ubuhunikiro cyangwa se ubwanikiro. Ubwanikiro ni ho banikira umusaruro w'ibigori kugira ngo uzatange umusaruro udafite inenge.

Mu gushishikarira abantu kurya imbuto, ntitwabura imbuto nziza yitwa ipapayi. Iyi mbuyo y'ipapayi ni imbuto irimo n'umuti wo mu nda, aho uwariye ipapayi yoroshya imigendekere y'igogora cyane cyane mu mara.

Mu buhinzi bw'imbuto habamo ubuhinzi bw'imyembe. Inaha mu karere k'Amajyaruguru ubuhinzi bw'imyembe nabwo ntiburatera imbere, ariko imyembe irahera nubwo atari mu kigero gishimishije.

Mu bucuruzi bw'ibyo kurya mu karere ka Musanze higanjemo cyane cyane ubucuruzi bw'ibirayi, ubucuruzi bw'imbuto, aho tubonamo pavuro ,tukabonamo inyanya, tukabonamo imiteja ,mbese mu karere ka Musanze ubucuruzi bw'ibyo kurya burahagaragara.

Bumwe mu buhinzi bugezweho mu karere k'Amajyaruguru, harimo ubuhinzi bwo guhuza igihingwa kimwe. Aho usanga abantu bafite imirima yegeranye, barahuje igihingwa kimwe. Igihingwa gikunze kugaragara ko cyahuje bikagaragarira amaso mun nta ntara y'Amajyaruguru ni igihingwa cy'ibigori.

Mu buryo bwo kugaburira amatungo mu biraro, mu Karere ka Musanze ubucuruzi bw'ibiryo by'amatungo burahari. Aho tubona ibyo biryo by'amatungo bikorwa n'uruganda rwa Tunga, rutanga ibiryo by'inkoko, ndetse n'ibiryo by'ingurube n'andi matungo yose.

Mu buhinzi bw'ibirayi hari igikorwa gikorwa bita kuhira. Iyo buhira ugenda ufata itaka ukarirunda Aho ikirayi gitereye. Ibyo bituma ibirayi bigiye gushora bidashorera hejuru, bigashorera muri ubwo butaka warunze.

Mu buryo bwo gutubura imbuto zivamo ibihingwa ,hifashishijwe uburyo bwo gukora pepiniyeri, pepiniyeri ni ahantu bagemeka ingemwe zizahingwa, maze zamara gukura bakajya kuzitera.

Mu gushishikarira ubuhinzi bw'ibihingwa, abantu ntitwabura kuvuga ku bihingwa by'ibijumba. Ibijumba ni igihingwa cyera cyane inaha mu Majyaruguru. Ibijumba biraribwa, wakirya ari kibisi ugihekenye, ukacyotsa ukanagiteka.

Mu buhinzi bw'ibigori habamo igikorwa cyo guhembera. Guhembera ibigori ni ukongera agafumbire mvaruganda ku kigori kugira ngo gikure gifite umuvumba, kizatange umusaruro ushimishije.

Ubucuruzi bw'imboga ino aha muri Musanze burakorwa cyane, iyo ugiye mu isoko ry'ibiribwa ndetse rya Kariyeri usangamo imiteja, usangamo amapavuro, usangamo seleri ibyo byose biba biri ku gisima.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo by'imishingiriro busabwa kwitabwaho n'umuhinzi. Mishingiriro iyo yashishe cyane umuhinzi wahinze ibishyimbo bya mushingiriro ajyamo akagabanyaho amababi, kugira ngo imisorwe ikure neza.

Igitunguru gitukura, ni igitunguru gifite umumaro kuko kirwanya inzoka mu mubiri, iyo umuntu ariye ibiryo agashyiraho igitunguru kibisi, cyane cyane icyo gitunguru kirwanya inzoka n'izindi mikorobe mu mara.

Ubuhinzi by'icyayi nyarwanda, bwiganje cyane mu ntara y'Amajyaruguru , mu turere twa Gicumbi na Nyabihu, aho ubwo buhinzi butanga amadovize kubabwitabira bakabukora neza, ababugize umwuga barakize.

Ubuhinzi bw'umuceri mu Karere ka Musanze butanga umusaruro. Ibyo bigaragarira ku mwero w'umuceri, aho umuceri wasaruwe urundanyirizwa hamwe, ndetse bakawuhurira hamwe ugasanga umusaruro ushimishije.

Bumwe mu buhinzi bw' ibinyabijumba, bugaragara mu Ntara y' Amajyaruguru, ntitwakwibagirwa kuvugamo ubuhinzi bw' amateka. Iyo tuvuze amateke, abantu bahita bumva ibihingwa by' amateke bigaragara cyane mu Ntara y' Amajyaruguru, ariyo bita bwasi. Bwayisi ni umwihariko w' amateke agaragara mu Karere ka Musanze.

Bumwe mu bucuruzi bw'imboga twavugamo ubucuruzi bw'ibitunguru. Ubucuruzi bw'ibitunguru usanga abacuruza baba bafashe ibitunguru bakabihambirana agatsinda runaka k'akarunda runaka hakagurishwa amafaranga runaka.

Bimwe mu bihingwa byera mu majyaruguru, harimo n'ibihingwa by'amateke. Aho hazwi amateke y'amakonya aryoha cyane. Akaryohera abayarya. Turabararitse muze mwirebere amateke y'amakonya.

Bimwe mu biti byera imbuto ziribwa biboneka inaha mu karere ka Musanze twababwiramo igiti cya avoka, avoka ni igiti cy'imbuto ziribwa, avoka iyo uyiteye itanga umusaruro kuko imbuto zayo zirakundwa ku isoko cyane.

Mu karere k' Amajyaruguru, cyane cyane mu karere ka Musanze, hashishikarijwe ubuhinzi bw'ibireti. Ubuhinzi bw'ibiretiri n'ibihingwa byera mu ndabyo. Indabyo zivamo buleteri yifashishwa cyane mu nganda.

Imbuto y'ibigori ya mayizori ni imbuto igaragara cyane mu Karere ka Nyabihu, aho ibyo bigori mu bice bikonja bitanga umusaruro, ni imbuto yakorwagamo amavuta kera, bityo igatanga umusaruro n'amafaranga ku bahinzi bayo.

Igihingwa cy'igihwagari ni igihingwa gitangaje cyane. Mwari muzi se burya ko igihwagari mu gitondo kiba kireba aho izuba riri kurasira? Uko izuba rigenda ni na ko igihwagari kigenda kirikurikiye, bishatse kuvuga ngo nyuma ya saa sita igihwagari kiba cyabirindutse kiri kureba aho izuba riri kurengera.

Bimwe mu bihingwa birwanya inzara kandi bigatanga umusaruro ino aha mu majyaruguru, harimo igihingwa cy'ibigori. Igihingwa cy'ibigori iyo gihunitse neza kikarindwa kumungwa, Kiri muri bimwe mu bihingwa birwanya inzara kuko kivamo ibyo abantu barya, ndetse n'ibiryo bigaburirwa amatungo.

Igihingwa cy'ubunyobwa ni igihingwa cyiza, cyane cyera mu Mayaga. Mu ntara y'Amajyaruguru kubera ubukonje, nta bwo gikunda Kuhera. ariko mu karere ka Musanze, mu turere, mu mirenge yegereye Gakenke, icyo gihingwa kirahera, ariko nta bwo, mu buryo budashimishije.

Iyo imyaka yeze habamo kuyitunganya. Iyo batunganya imyaka barayigosora. Kugosora imyaka bikorerwa ku nkoko cyangwa se ku ntara. Inkoko cyangwa intara ni igikoresho nyarwanda gakondo cyifashishwa bagosora imyaka.

Ibishyimbo bigira amoko atandukanye, uko amabara yabyo aba atandukanye n'ubwoko niko buba butandukanye, aho tuzi ibishyimbo bigira amabara agiye gusa nk'umutuku, hakaba ibigira amabara agiye gusa n'umukara ,ibyo byose biba bikungahaye kuri feri.

Bimwe mu biryo biryohera abantu, hari ibiryo byitwa insature z'amajeri. Insature z'amajeri, ziri mu biryo bituruka mu mahanga. Ariko iyo bigeze inaha mu majyaruguru birishimirwa cyane, kuko iyo bitetswe biraryoha.

Ubucuruzi bw'imyaka mu ntara y'Amajyaruguru na bwo burakataje. Aho imyaka yumye ikusanyirizwa muri depo. Maze ufite depo y'imyaka akaba ari we uba n'umucuruzi w'imyaka. Waba ukeneye imyaka ukagenda umusanga.

Ubuhinzi bw'amasaka ni ubuhinzi bukunzwe n'Abanyarwanda benshi. Abahinzi benshi mu Ntara y'Amajyaruguru bakunze kuyahinga, kuko amasaka arabatabara. Amasaka atanga igikoma, amasaka anyobwamo umusururu, ndetse n'ubushera, amasaka ni ingenzi.

Ubuhinzi bwa kawa mu karere ka Musanze, na bwo bwateye imbere aho umusaruro wakusanyirizwa mu ruganda ugakorerwa isuku, ukumishwa maze ukazagera ku bacuruzi umeze neza ushimisha.

Ese mwari muzi ubwoko bw'ibinyamisogwe? Ibinyamisogwe ni ibihingwa byera bifite imisogwe, aho mu majyaruguru igihigwa cya mbere cyihiganza ari ibishyimbo, ibishyimbo bikabonekamo ubwoko bwinshi, hazamo ibinyamisogwe by'ubwoko bw'amajeri, soya ndetse n'ibindi.

Guhunika imyaka cyane cyane, guhunika imbuto y'ibirayi mu buryo bwa gakondo, in'aha ntara y'Amajyaruguru twifashisha imyubakire y'ibigega, ibigega gakondo biba byubakishijwe imigano bigasakazwa ibyatsi, ndetse ahongaho ukabona aho guhunika ari heza cyane.

Mu bucuruzi bw'imyaka cyane cyane mu cyaro, habamo kugura imyaka ukoresheje ingemeri. Ingeneri ni akantu gatoya bashyiramo imyaka bakumvikana ku giciro. Ingemeri ni yo ikoreshwa mu gupima, mu gihe nta munzani uhari.

Ubuhinzi bw'umuceri na bwo ntibwasigaye mu karere ka Musanze, aho abaturage bishyize hamwe maze bagashoka igishanga cya Mukungwa bakagihinga umuceri nduziko cyapfaga ubusa .Ubu umuceri urera mu gishanga cya Mukungwa, uhereye ku kiraro kinini cya Mukungwa umanuka werekeza aha ku kademi.

Nkubwire iki se ko ubuhinzi bwavuguruwe! Inaha mu Karere ka Musanze nta bigori byeraga, ariko aho Leta y'Ubumwe n'Ubwiyunge yatugejejeho imbuto y'indobanure, ubu turahinga ibigori tukeza, tukagira umusaruro mwinshi, ushimishije.

Mu bihingwa bihingwa cyane mu ntara y'Amajyaruguru harimo ibihingwa by'ibishyimbo, Ibishyimbo ni igihingwa gikunzwe cyane mu ntara y'Amajyaruguru kuko gitanga umusaruro, kandi mu cyaro ibishyimbo biraribwa cyane ndetse no mu mujyi.

Ubusaruzi bw'igihingwa cy'amasaka n'ubusaruzi buteye ukwabwo, aho babanza kugesa amahundo, amahundo kuyagesa ni ukuyakata ukoresheje icyuma, ubundi akarundirwa hamwe kugira ngo azahurwe, atandukanye n'imishishi maze amasaka ajye ukwayo.

Mu micuruze y'imbuto y'ibishyimbo usanga biteye ubwuzu rwose. Aho usanga buri bwoko bw'ibishyimbo bwashyizwe mu kantu gatoya, maze ukirebera ubwoko bukunyuze. Ukagura imbuto ukajya guhinga umaze kureba imbuto uko iteye.

Mu karere ka Musanze umusaruro w'amasaka urashimishije, amasaka avamo igikoma gihabwa abana n'ababyeyi ndetse n'abantu bakuru. Amasaka akunze gukoreshwa cyane avanwamo umusururu cyangwa se ubushera abaturage bakabunwa.

Mu kinyarwanda baravuga ngo :"ntawujya aho yahinze ngo aburare". Uko byagenda kose iyo umuhinzi yahinze, akagenda aho yahinze ahavana umusaruro wo kumutunga.

Mu buryo bw'imitegurire y'ibiribwa, habamo gahunda yo gutoranya ibiribwa. Aho ibiribwa bivanwamo imyanda, ibyangiritse bigashyirwa iruhande, maze n'ibindi by'umwimerere bikajya uruhande rwa byo.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa n'ubuhinzi budakunze kuboneka mu ntara y'Amajyaruguru, kubera ko intara y'Amajyaruguru ikonja. Ubunyobwa bukunda kwira cyane cyane ahantu hashyuha niyo ugerageje kubuhinga nta musaruro bukunze gutanga inaha mumajyaruguru.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa ni ubuhinzi butagaragara cyane mu Karere k'Intara y'Amajyaruguru. Ubu buhinzi bw'ubunyobwa burahera ariko ntibwitabirwa kubera ko ubunyobwa bukunda kwera ahantu hashyuha cyane. Ni na yo mpamvu inaha mu Karere ka Musanze ubunyobwa budahingwa

Bimwe mu bihingwa by'ibinyamisogwe biryohera abantu muri iki gihe, harimo igihingwa cy'amashaza. Aya mashaza iyo ibitonore byayo inaha tubyita urunyogwe, akaba yifashishwa cyane cyane mu kwakira abashyitsi b'icyubahiro no mu makwe. Umuhinzi uhinga amashaza agira ifaranga ritubutse, kuko arakunzwe cyane.

Igihwagari ni igihingwa gitangaje cyane, igihwagari uburyo gitangaje, kireba buri gihe aho izuba rirasira mu gitondo kiba kireba iburasirazuba, nimugoroba kikareba iburengerazuba, igihwagari ni igihingwa kivamo amavuta yo kurya.

Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi bugaragara hirya no hino mu Ntara y'Amajyaruguru. Ingurube zoroye mu buryo bwa kijyambere zikura vuba, ingurube zarowe mu buryo bwa kijyambere zitanga umusaruro mu gihe gitoya umworoza akaba arigukirigita ifaranga.

Ubworozi bw'ihene n' ubworozi butanga umusaruro, ihene zororoka vuba, ihene zikunze kuba cyane ahantu hashyuha ntabwo zihangana nk''imbeho, iboneka mu ishyamba ry'ibirunga ,ariko naho zirahaba, ihene n'amatungo yoroka vuba.

Aha mu Majyaruguru ubuvuzi bw'amatungo bwateye imbere aho inama mu Karere ka Musanze mu Murenge wa Rwaza dufite ibitaro by'amatungo, mu bitaro by'amatungo itungo rishobora kujyamo rirwaye rigahabwa igitanda rikavurwa rikitabwaho rikazataha rikize neza

Amagi ni umusaruro ukomoka ku nkoko zitera, inkoko zitera iyo zorowe neza zikagaburirwa zitanga umusaruro w'igi buri munsi buri munsi. Aho umworozi yiteza imbere mu gihe cya vuba.

Dendo na zo ziri mu bwoko bw'inyoni ariko bw'amatungo yororwa, Dendo zirahenda cyane kandi zirya ibiryo bihenze, ariko na zo zitanga amafaranga ku giciro kiri hejuru.

Mu kugira ngo abaturage bo mu Karere ka Musanze mu Ntara y'Amajaruguru biteze imbere, cyane cyane, bashishikarijwe ubworozi bw'ingurube. Aho ikibwana cy'ingurube cyavutse kiri ku mafaranga mirongo itatu kugeza ku mafaranga mirongo itanu kimaze amezi abiri.

Ubworozi bw'inkoko nabwo butanga umusaruro. Ahangaha twavuga ubworozi bw'inkoko za saso, inkoko za saso n'nkoko zijya gusa n'Inyarwanda, aho inkoko za saso zorowe neza zororoka vuba mu gihe gitoya zigatanga umusaruro ushimishije.

Bumwe mu bworozi buteza abantu imbere kandi vuba, harimo ubworozi bw'ingurube zibyara. Tubyita kubyara abandi bakavuga kubwagura, kuko ingurube ibwagura ibyana byinshi hari n'izirenza ibyana icumi. Icyana ino aha icyana cy'ingurube kiragura amafaranga ari hejuru'ibihumbi mirongo itatu.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere. Iyo ingurube za kijyambere zorowe neza, mu biraro byiza, zitanga umusaruro. Zitanga amafaranga maze umworozi akabyungukiramo.

Ubworozi bw'ihene ni bumwe mu bworozi bw'amatungo magufi, kandi bugira umusaruro .Ihene yorowe neza ikishimira igaburo, irororoka vuba maze igatanga umusaruro mu gihe cyihuse.

Ubuvuzi bw'amatungo bukorwa n’abantu babyize, babifitiye ubushobozi abo mu kinyarwanda twita abaveterineri. Abaveterineri nibo bonyine baganga b'amatungo yacu bo kwizerwa mu gihe itungo ryacu ryagize ikibazo.

Iyo tuvuze ubworozi bw'amatungo magufi, ntitwabura kuvugamo ubworozi bw'ihene. Kugira ngo ihene zororoke zisaba ko muri uwo mukumbi w'ihene habamo imfizi. Imfizi y'ihene inaha mu majyaruguru tuyizi ku izina rya Ruhaya.

Ubworozi bw'amatungo magufi kandi atanga umusaruro ku bantu bakuze bo mu kigero cyanjye, harimo ubworozi bw'amatungo y'intama. Intama ni tungo ryitonda ritanga umusaruro, aho inaha ritangiye kujya rikundwa, cyane cyane no mu masoko.

Ubuvuzi bw'amatungo mu karere ka Musanze nabwo bwateye imbere, aho mu Karere ka Musanze habaho igihe cyo gukingira inkingo amatungo yororerwa mu rugo yo mu bwoko bw'imbwa. Imbwa zose zihabwa urukingo buri mwaka.

Inyoni ziri mu mutungo kamere, ugaragaraga mu mashyamba y'ibirunga. Inyoni z'ubwoko bwiza zikurura ba mukerarugendo, bityo zikagira uruhare mu kwinjiza amadovize mu Gihugu.

Inyoni zitwa ibigagari ni inyoni zakundaga kuboneka mu karere k'Amajyaruguru, mu kibaya cya Nyakinama. Ni inyoni zisa, ziri mu bwoko bw'inkware. Ni inyoni ziryoha, zororoka nk'izindi nyoni zose.

Inyoni ni imwe mu nyayamaswa ishimishije, inyoni zibana n'abantu, urebye inyoni bigutera akanyamuneza, kureba amabara yazo, ngibyo ibikurura ba mukerarugendo, baje kwirebera ubwiza budasa, bw'inyoni zo mu majyaruguru.

Udusimba turi mu bwoko bw'ibikururanda. Twavugamo agasimba kitwa igihangara. Igihangara ni agasimba kari mu bwoko bw'imiserebanya. igihangara iyo kikubonye, kidunda umutwe, kidunda umutwe, mbese ukabona gishaka ko mukina.

Igihunyira kiri mu bwoko bw'inyoni zitangaje. Igihunyira ni inyoni itinywa cyane. Mu muco nyarwanda iyo igihunyira cyabaga cyarize, bavugaga ko kuri uwo musozi harapfa umuntu. Ni na yo mpamvu inyoni y'igihunyira, mu muco nyarwanda abantu batifuza guhura na yo.

Inyoni na zo ziri mu moko atandukanye. Uyu munsi nakubwira nk'inyoni yitwa Rushashi. Inyoni yitwa Rushashi iba ifite isunzu rimeze nk'igipenke. Mbese ifite isunzu, ifite umusatsi usongoye imbere. Ni inyoni itangaje ku buryo kuyibona biba bishimishije.

Inyoni ni bimwe mu mutungo kamere w'Igihugu. Inaha mu majyaruguru, dufite ishyamba rya cyimeza dukunze kwita Parike Nasiyonali y'Ibirunga. Aha hanga mu ishyamba usangamo inyoni z'amoko yose, ari na zo zikurura ba mukerarugendo bakaza kwirebera urwo rusobe rw'ibinyabuzima.

Mu bwoko bw'inyamaswa butangaje, harimo akanyamaswa ka Maguge, Maguke iyo uyirebye neza isura yayo, isa nk'iy'umuntu, aho bitandukanira n'uko iba ifite ubwoya bwinshi, ndetse n'ibitwi binini bibangaraye cyane.

Ingagi ni inyamaswa ziboneka muri pariki y'ibirunga, cyane cyane mu kirunga cya sabyinyo, kiri mu nkengero z'umurenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Ingagi ijya gusa nk'umuntu, kuko igeraho igahagarara, ubundi ikagendesha n'amaboko.

Inkware ni ubwoko bw'inyoni buri gukendera, cyane cyane mu'ntara y'Amajyaruguru. Inkware yewe uzibona gake nabwo ni ukuzumva cyangwa ukumva zivuga. Ariko umwaka washira wumvishe inkwa imwe cyangwa ebyiri. Inkware ziri gucika.

Iyo tuvuze isega, tuba tuvuze ubwoko bw'imbwa zibera mu gasozi. Isega iraryana, isega ni inyamaswa mbi cyane, inyamaswa iba ikaze. Isega yibera iyo mu binani. Ariko iyo urebye nta bwo wayitandukanya n'imbwa isanzwe.

Mu Karere ka Musanze haboneka ubwoko bw'amafi butandukanye. Amafi yibera mu kiyaga no mu migezi, haboneka n'inyoni ziyaroba zishaka kuyarya. Hari inyoni zitungwa n'amafi aho ifi izamuka yagera hejuru inyoni yitegereje ikaba irayitwaye.

Bimwe mu mutungo kamere w'u Rwanda tubonamo ubwoko bw'inyamaswa bwibera mu mapariki, aha ngaha twabonamo inyamaswa zijya gusa n'abantu ariko zikagendera ku maguru ane, ari zo twita inguge ndetse n'inkende , zurira ibiti kandi zikaba zishimishije mu gukurura abazireba.

Ubu ni ubwoko bw'inyoni bugaragara inaha mu Ntara y'Amajyaruguru. Hari inyoni zitwa isande. Isande usanga ari inyoni ifite amabara. Umweru, umuvuhondo n'umukara. Mbese iryoheye kuyitegereza.

Mu ishyamba habamo ibiti ndetse n'inyamaswa. Inyamaswa zibera mu ishyamba n'iz'amoko atandukanye. Urugero nabaha ni akanyamaswa akanyamaswa bita imperere. Ni Akanyamaswa kazi kurira cyane kibera mu biti.

Tuvuge se ko mu karere ka Musanze cyane cyane muri parike y'ibirunga, harimo inyamaswa zitandukanye, izo ubona zifite imisusiro wagira ngo ni iy'inka abantu bakunze kwita Imparage, izo na zo ziboneka mu ishyamba ry'ibirunga.

Ni koko mu binyabuzima cyane cyane birangwa mu mashyamba habamo inyamaswa nyinshi, ariko muri izo zose hejuru mu biti habamo inyoni nziza z'amoko menshi, inyoni ni bimwe mu binyabuzima byibera mu mashyamba.

Inyoni yitwa umununi, ni inyoni igaragara mu mashyamba atandukanye no mu bihuru bitandukanye. Ikiranga iyo nyoni, igira umunwa muremure usongoye, aho uwo munwa uyifasha kunyunyusa ubuki bwo mu ndabo. Iyi nyoni yitwa umununi, ikunze kunyunyusa indabo zitandukanye.

Mu buzima bw'inyamaswa ziba mu mazi, cyane cyane izigaragara mu kiyaga cya Ruhondo n'icya Burera byo mu Ntara y'Amajyaruguru, habamo amafi, habamo n'ibindi binyabuzima biba mu mazi. Na byo biba bifite ibyonnyi byinshi cyane cyane inyoni zo mu kirere ziba zishaka...

Igisiga, igisiga ni ubwoko bw'inyoni bunini cyane. Igisiga gitungwa no kwirira inyoni ntoya. Iyo tuvuze igisiga, ni ubwoko bw'inyoni bugaragara cyane cyane mu mashyamba, agaragara mu Ntara y'Amajyaruguru.

Ubuzima bw'inyamaswa buratangaje cyane. Hari inyamaswa zo mu bwoko bw'inguge, zijya kugira imisusire nk'iy'abantu. Nk'uko umubyeyi w'umuntu aheka umwana, ugasanga nazo ariko ziheka abana bazo.

Mu gusigasira ibinyabuzima bigize umubumbe wi'isi, harimo ubwoko bw'inyoni. Inyoni ni nziza kuko harimo izibyutsa abantu gitondo kare kare, inyoni kandi zigira umumaro mu buryo bwo gutuma ibimera byororoka.